Abantu batandukanye bari ku ivamo rusange, aho barimo bavoma amazi, bamwe bayajyana bakayakoresha imirimo myinshi itandukanye yo mu rugo, ayandi agakoreshwa nk'urugero nko koza abana ndetse bagasukura imibiri yabo.

Inama yahuje ingeri nyinshi zitandukanye z'abakozi bakora mu buryo bw'ubuzima no kwita ku mibereho myiza y'abaturage. Harimo abazungu ndetse n'abirabura bityo bakagira inama y'uko ubuzima bw'abantu bwabarushaho kuba bwiza.

Ku ivomo aho abantu b'ingeri zitandukanye, abasore n'inkumi, abana bato, aho baje gushaka amazi akenerwa n'umubiri wabo mu buryo bwo gukaraba bimakaza isuku ndetse no mu buryo bwo kuyanywa, bigafasha umubiri mu gutungwa neza, bityo bikabaha ubuzima bwiza.

Aba mama batandukanye ubona ko barimo bari ku ivomero bavoma amazi, hagamijwe kwita ku mibereho myiza y'abana batoya bityo bakagira ubuzima buzira umuze igihugu kigatera imbere.

Umwana muto w'umunyeshuri uri ku kigega bimwe mu bigega byubakwa kugira ngo bige bishyirwamo amazi kandi binayabike, aho uyu mwana arimo avoma aya mazi kuri iki kigega, ayavomera mu gakombe kugira ngo ayanywe cyangwa se ayakoreshe asukura amenyo n'ibindi byinshi, bityo bikamuha ubuzima bwiza.

Umwana muto urimo agerageza guterura iyi ndobo irimo amazi avanye kuri iri vomo rusange agerageza kuyishyira ku mutwe adafashijwe n'uyu musore umuri imbere, bityo aya mazi bakayifashisha mu bintu bitandukanye bigira ubuzima bwiza.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye; aho aba baganga bambaye imyenda y'akazi yabugenewe, harimo udupfukamunwa ndetse n'amakanzu, yagenewe kwambara abakozi baba bari mu kazi, ko gutanga serivisi z'ubuvuzi. Aho arimo asuzuma, uyu mukobwa na we wambaye agapfukamunwa yifashishije bimwe mu bikoresho byabugenewe, aho yaba amupima nk'umuvuko w'amaraso ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi burimo buhabwa umwana mutoya uteruwe na mama we, aho uyu muganga w'umugabo arimo avura uyu mwana amupfuka ahagana ku gice cy'umutwe bityo ubuzima bw'uyu mwana bukarushaho kuba bwiza.

Umwana mutoya ku ivomero rusange, aho arimo avomera amazi mu gikombe, aya akaba ari amazi meza yujuje ubuziranenge, yifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo mu rugo, ndetse bayamesesha, bakayatekesha, cyangwa se bakayanywa.

Abana batoya batanu b'abakobwa, bishimye cyane, banezerewe, bari ku ivomo boga intoki, bakaraba bikorera isuku ku mubiri wabo mu ntoki barishimye cyane.

Ivomero ritanga amazi meza, aho ubona ko abaturage bishimiye iterambere ryo kuba bagejejweho ivomero ribegereye bityo baka babona amazi, abafasha kugira ubuzima bwiza, haba kurwanya umwanda ndetse no gutegura ibyo kurya.

Abana bato bari ku ivumo rusange barimo boza ibikoresho bitandukanye, ndetse bakanavoma aya mazi mu buryo bwo kuyakoresha ibikorwa bitandukanye, ndetse bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umu mama urimo afasha umwana muto w'umuhungu gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune hagamijwe gahunda yo kwimakaza isuku ndetse bakarwanya indwara.

Inama y'abakozi batandukanye abagore, abagabo, aho biga ku bijyanye no guteza imbere ubuzima bwiza n'imibereho myiza y'abana batoya, bityo bakagira ubuzima buzira umuze.

Umuganga hamwe n'abamama, aho ubona ko uyu mugangakazi arimo asuzuma afata ibizamini kuri bagore, hagamijwe gupima no gusuzuma uburwayi.

Umwana mutoya, uteruwe na mama we, barimo bamupima ibiro, bakoresheje igikoresho cyabugenewe mu busanzwe, mu gupima ibiro by'abana batoya, babifashijwemo n'uyu mukozi ukora, mu gutanga izi serivisi.

Abantu barimo kuvoma amazi, ayo mazi akaba ari amazi atemba, bityo bikaba bishobora kwangiza bamwe mu bayakoresheje igihe bayoye adatetse, cyangwa se bakayatesha n'ibindi bintu, bishobora kuririramo uburwayi bw'inzoka, ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Abana batatu ndetse batoya ubona bishimye barimo bakaraba intoki, hakoreshejwe amazi meza n'isabune, hagamijwe uburyo bwo kurwanya indwara zandurira mu mwanda, bityo bakagira ubuzima buzira umuze.

Ivomero rusange, aho abantu b'ingeri zitandukanye baje kuvoma, kugira ngo aya mazi bayifashishe bakora amasuku haba ku mibiri yabo, ndetse n'ibindi bikorwa byo mu ngo bityo bakagira ubuzima bwiza.

Abana bakiri batoya, bari munsi y'imyaka itanu, barimo bakaraba amazi meza banezerewe, hagamijwe kugira isuku no kwirinda indwara zandurira mu mwanda.

Umwana mutoya aho ari ku ivomo, ariho anywa amazi akurikiwe n'abandi batandukanye, mu buryo bwashyizweho n'iki kigo, gishinzwe guteza imibereho myiza y'urubyiruko ndetse n'abana batoya.

Umuntu uri ku ivomo rusange arimo akaba ibiganza n'aya mazi meza, bityo bikamufasha kurwanya indwara zuririra mu mwanda, akagira ubuzima buzira umuze.

Abana bane kandi batoya bari ku ivomero rusange, aho baje gushaka amazi. Bakaba barimo babifashwamo n'uyu mukobwa ukiri muto, bityo aya mazi bakayifashisha mu bikorwa bitandukanye bituma ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza.

Abana bakiri batoya bari mu kigero kizwi, ni abana b'incuke, barimo bagaburirwa igikoma, bagihabwa n'aba bayobozi bo mu nzego zitandukanye cyangwa se abakozi bakora mu nzego zitandukanye, harimo nk'abakora mu nzego z'umutekano n'abandi, hagamijwe iterambere ry'igihugu, n'ubuzima bwiza bw'abana.

Umwana ukiri muto uri ku ivomera rusange, aho arimo avoma amazi mu kiganza ke. Akayakoresha akaraba intoki ndetse akanayanywa akoresheje ibiganza, bityo ubuzima bwe bukarushaho kuba bwiza.

Abagore ndetse n'abakobwa bari ku ivomera rusange aho baje gushaka amazi, amazi bakaba bayifashisha bakora ibikorwa bitandukanye byo mu rugo, nko gukaraba, kumesa, guteka, ndetse n'ibindi, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza cyane.

Umwana muto urimo gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, aho arimo afashwa n'umuntu mukuru arimo amusukira amazi kandi amwerekera uburyo bwiza bwo gukaraba intoki, bityo bakarwanya umwanda n'indwara zitandukanye.

Umwana muto w'umukobwa, uri ku ivomo rusange, aho arimo akaraba intoki, akazikaraba akoresheje aya mazi meza, bityo bikamufasha kurwanya, no kwirinda uburwayi bushobora kuririra ku mwanda.

Umuntu uri ku ivomero, iri akaba ari ivomero rusange, aho arimo yoga ikiganza kimwe akoresheje aya mazi bityo ubuzima bwe bukaba bwiza, akaba yarwanya zimwe mu ndwara nyinshi zitandukanye zishobora kwandurira mu mwanda.

Umugore ukiri mutoya uteruye akana gatoya bari kuvomero aho bavoma amazi meza bayavomera mu ndobo kugira ngo bagende bayakemuze ibintu byinshi bitandukanye nko kuyanywa, bayatekesha, kuyamesesha, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umwana mutoya uryamye ku gitanda, aho arimo yitabwaho n'aba bakozi babiri babishinzwe, kandi barimo bamwitaho bimeze neza, baramupfuka aho afite ibibazo ku mubiri we. Bityo umubiri we ukaba mubuzima akongera akagira ubuzima buzima.

Abamama batandukanye bari ku ivomo, aho barimo bavomera amazi mu ndobo hagamijwe gutekesha aya mazi no kuyakaraba, bakanakarabya abana batoya.

Umuntu uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune, bityo bikamufasha kurwanya uburwayi butandukanye bushobora kuririra umwanda bikamwicira ubuzima, arimo gukaraba aya mazi rero agakora isuku ku mubiri we, bityo akagira ubuzima bwiza.

Abana babiri bato bari ku ivomero rusange, aho barimo bafata amazi bagakaraba ibiganza byabo ndetse bakanayanywa, bityo bikabafasha mu kugabanya no kuringaniza ubushyuhe mu mubiri, kandi bikarinda n'indwara zitandukanye, kandi bigakomeza kugira umumaro mwinshi mu mubiri...

Umwana muto ubona ko yishimye kandi anezerewe, ari ku ivomera rusange, aho arimo akaba intoki akoresheje aya mazi meza, bityo akaba yanayanywa bikamuha ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abaganga batandukanye abagore n'abagabo, abazungu n'abirabura mu nzu yubuvuzi bishimye cyane bambaye imyenda yakazi ko kwa muganga banezerewe cyane.

Abana babiri bato aho bari ku ivomero rusange, barimo bakaraba intoki zabo barwanya indwara zishobora kwandurira mu mwanda, ibi bigakomeza kubaha ubuzima bwiza.

Umwana muto w'umukobwa w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza arimo gukora igikorwa cy'isuku akaba amazi meza.

Umukobwa uri ku ivomero, aho arimo avoma amazi bityo akayifashisha amesa imyenda bityo akagira isuku ndetse n'umubona atambuka akamubonana isuku umubiri uzira umwanda.

Umwana muto w'umukobwa urimo akaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse akeye ku maso, yishimiye iki gikorwa kuko kimufasha kurwanya indwara zuririra mu mwanda.

Umuhanzi wamamaye mu muziki Nyarwanda wo kuramya no guhimbaza Imana bamwita Israel Mbonyicyambu, aho arimo agaburira umwana mutoya uteruwe n'uyu mumama, aho bari mu gikorwa cyo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubuzima bwiza mu bana bato.

Muri gahunda yo guhagurukira kubwira urubyiruko ndetse n'abandi ko SIDA igihari nt'aho yagiye bityo abantu bakwiye gukomeza kuyirinda bakanisuzumisha kugira ngo amenye uko bahagaze bityo tukayirandura burundu.

Umwana muto uri ku ivomero rusange aho arimo anywa amazi akoresheje ibiganza bye bityo bikamurinda kandi bikanamufasha kurwanya uburwayi butandukanye, umubiri we ugatemba itoto, ugasohora imyanda bityo akagira ubuzima bwiza.

Abakozi benshi batandukanye bakora muri serivisi z'ubuzima, aho ubona ko bagiye inama ndetse barimo baseka bishimye, ku buryo nabo iyo batanga izi serivisi z'ubujyanama bw'ubuzima ubona ko abaturage babuhabwa babwakira neza.

Abakozi bakora kwa muganga mu nzego z'ubuzima aho bari imbere y'icyumba gikorerwamo inama yiga ikanafata imyanzuro ku bibazo by'uburwayi cyangwa se byagaragaye muri iyi nyubako.

Abana bato bari ku ivomo rusange, aho barimo bavoma amazi, bityo ayo mazi akabafasha mu buryo butandukanye bakoramo imirimo yo mu rugo, nko kuyatekesha, kuyamesesha, kuyanywa, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza.

Amahugurwa arimo ingeri zitandukanye z'abagabo ndetse n'abagore, bakora mu bijyanye n'ubuzima benshi dukunze kwita abanyabuzima, bafasha mu buzima bw'ibanze mu midugudu mu baturage.

Umuntu uri ku ivomero rusange, aho bigaragara ko arimo anywa amazi, aya mazi ari kunywa, ari kuyanywa akoresheje ibiganza, bityo bikamuha kugira ubuzima.

Abana batandukanye b'abanyeshuri abahungu n'abakobwa, bari ku ivomero rusange, aho barimo bavoma amazi mu ndobo, ayandi bakayakoresha bakaraba intoki.

Abana bane ndetse batoya, barimo bafashwa n'uyu mugabo koga intoki n'amazi meza kandi bishimye cyane, hagamijwe uburyo bwo kwimakaza isuku barwanya indwara.

Abana ndetse bakiri bato ubona ko banejejwe n'ibyo barimo kureba barishimye; bafite intekerezo nziza, ndetse banezejwe n'iki cyumba barimo. Kuko ibyishimo bibari ku maso, baracyeye, barimo baraseka, banejejwe n'ubuzima.

Umugabo uri ku rwibutso, ahazwi nk'ashyingurwa imibiri y'abamaze kuva mu buzima, aho yazanye indabo no kunamira abe bapfuye, bityo bigatuma abibuka akongera akabatekerezaho bityo akiha amahoro n'umutuzo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho kandi neza cyane, ifite ubusitani ifite n'ibindi bintu byinshi biyiranga biyigira nziza, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zo kuganiriza ndetse no kwita ku bantu bafite ibibazo by'ihungabana, cyangwa se bakaganirizwa bagakora ku marangamutima yabo bityo ubuzima bukaba bwiza.

Umukobwa ukiri muto, aho ubona ko yishimye cyane yemwe afite akamwenyu ndetse akeye mu maso, arimo atekereza neza biragaragara ko yishimye cyane, ubona ko anezerewe amarangamutima ye, aho ari ni heza.

Abaturage benshi batandukanye barimo abana bato, abagore, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru, utibagiwe n'abasore n'inkumi bari mu gikorwa cyo kwamamaza, mu gihugu Rwanda kubera ubuyobozi bwiza bamamaza ishyaka rya RPF Inkotanyi.

Umusore wicaye ahantu bamena imyanda, yicaye hasi arasa nabi ubona ko yigunze afite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, bamwe bakunda kwita ngo abasazi.

Umusore wambaye imyenda imeze nabi kandi icikaguritse, wikoreye ibintu byinshi bitandukanye birimo imyanda ku rutugu rwe, uyu bavuga ko abana n'ikibazo cy'uburwayi mu mutwe, benshi bakunze kwita umusazi.

Abagore n'abagabo bari hamwe n'umukozi ushinzwe ubugenzacyaha n'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, bari ku kigo cya Kacyiru i Kigali gishinzwe ubuzima.

Abakobwa babiri aho ubona ko umwe arimo aganiriza undi, bityo akamugarurira amarangamutima ye aba yagiye kure akagaruka ku murongo, akamusubiza mu buzima buzima.

Umugore ukuze ariko na none udakuze cyane, ubona ko akora mu gutanga serivisi zo kuganiriza abantu bahuye n'ihungabana, abantu bihebye, bityo bakagaruka bakagira intekerezo nzima bagasubirana icyizere cy'ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi yamucikagurikiyeho, ndetse n'umubiri we urasa nabi, imisatsi ye irasa nabi, ubwanwa burasa nabi, mbese ntago aheruka gukaraba, abana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, benshi bakunze kuvuga ngo umusazi.

Abagabo babiri ndetse bose bakuze, aho umwe abana n'uburwayi bwo mu mutwe, aho uyu ufite ubuzima buzira umuze, agerageza gufasha mugenzi we ubana n'uburwayi bwo mu mutwe, agerageza kumugarurira amarangamutima no kuyakoresha neza.

Abana b'abanyeshuri benshi bakiri bato, abahungu n'abakobwa, ubona ko bagaburiwe neza bariye, banyoye, barishimye, baranezerewe, barimo baraseka, mbese umubiri wabo urakura neza uzira uburwayi.

Umuntu ubona ko afite agahinda kenshi cyane arimo ararira amarira arashoka ku maso, arababaye intekerezo zamubanye nyinshi, arimo gutekereza byamucanze abababaye cyane.

Umukobwa wifashe ku mutwe mu misatsi, ubona ko afite ibibazo bitandukanye, amarangamutima ye ari kure arimo gutekereza cyane bisa n'ibyamuyobeye, arimo kwibaza ukuntu yabigenza yabuze igisubizo.

Bamwe mu bakozi b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo batanga serivisi y'ubuvuzi bwo mu mutwe nko kuganiriza abantu bagize amarangamutima atari meza, abafite intekerezo zishobora kubaganisha mu kwiheba no kwiyahura, aban gaba ni bamwe mu bakozi babaganiriza bityo bakaba bagarura intekerezo zabo ku murongo.

Umugabo wambaye ibyenda bisa nabi bicikaguritse ese usa nabi cyane ubona ko bitameze neza umuntu muzima yaba adasa atya, abana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu wipfutse agatambaro mu maso, ubona ko arimo ahanagura amarira, zamushoreye, afite agahinda kenshi cyane, ubona ko mu ntekerezo afite agahinda gakabije kandi arimo gutekereza cyane, ahanini amarangamutima ye ari ku kwiheba.

Umusore ubona ko yishimye cyane, arimo aseka yasamuye akanwa ke, ubona ko afite amenyo afite isuku, amenyo asa neza, amenyo azira umwanda.

Umusore udakuze cyane wujuje imyaka makumyabiri n'irindwi, wishimye cyane unejejwe nuko ameze neza, amenyo ye ameze neza, muri rusange afite ubuzima buzira umuze.

Umugabo urimo gusukura amenyo ye, akaba arimo ayasukuza urudodo agerageza gukuramo imyanda bityo bikarinda uburwayi bufata amenyo.

Icyumba cyo mu nyubako yo kwa muganga, iki cyumba kikaba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi buhabwa abashaka ubufasha bw'amenyo, aho basuzuma amenyo bakanayavura, harimo kuyahoma ndetse n'ibindi.

Umusore n'inkumi ubona ko bishimye kandi banezerewe, urabona ko amenyo yabo ameze neza asa neza yitaweho kandi agahabwa isuku yabugenewe.

Umusore ubona ko yishimye cyane, uri kwireba mu ndorerwamo areba amenyo ye asa neza ndetse akayasukura, akanayapima akoresheje uru rudodo.

Umwana mutoya, urimo uherezwa ubuvuzi na muganga, ubuvuzi bw'amenyo n'ibindi bice bifata hamwe n'amenyo.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga n'ahandi hatangirwa serivisi yubuvuzi bw'amenyo, Ni igikoresho gikozwe kandi cyizewe kuko cyakozwe mu buryo bugezweho.

Umusore wishimye cyane, aho afite igishusho kimwe mu bigaragaza amenyo y'ikiremwamuntu. Urabona ko atungaho urutoki yereka abantu ngo basobanukirwe.

Umwana mutoya w'umukobwa muganga arimo avura yamubumbuye akanwa, arimo amufasha amusuzuma anamuvura bumwe mu burwayi bwo mu kanwa hafi y'umunwa n'amenyo.

Umusore urimo yireba mu ndorerwamo asuzuma kandi anejejwe n'uko amenyo ye ari meza amenyo ye yavuwe kandi akaba asa neza azira indwara.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, bikoreshwa kwa muganga, bikoreshwa n'abaganga babyigiye babifitiye impamyabushobozi, aho ibikoresho bikora uburyo bwo kuvura ndetse bakanakura amenyo.

Kwa muganga aho abaganga babiri uw'umugabo ndetse n'uw'umugore barimo bita banasuzuma uyu mwana ukiri muto ngo barebe ko amenyo ye ikibazo yaba afite by'ukuri.

Umwana muto na mama we aho barimo gukoresha uburoso ndetse n'umuti wabigenewe, boza amenyo bityo agasa neza akarinda uburwayi bumwe na bumwe kwinjira.

Abana benshi batandukanye abahungu ndetse n'abakobwa, mu ishuri barishimye cyane, buri wese amanitse amaboko ye afitemo uburoso, ubu akaba ari uburoso bwifashishwa basukura amenyo.

Umusore urimo asukura amenyo ye ariko yifashishije urudodo, aho ubona ko urudodo rubimufashamo neza kwinjira mu menyo, rugasohoramo imwe mu myanda yafashe mu menyo.

Mu cyumba ahabigenewe nk'ahatangirwa ubuvuzi butandukanye, cyane cyane nk'ubuvuzi bw'amenyo. aho uyu musore aryamye ku gitanda, bityo muganga akaba arimo amwitaho, aho arimo yita ku menyo ye. Harimo nko gukura amenyo cyangwa se kurihoma, bityo amenyo akaba mazima, bityo akagira ubuzima buzira umuze.

Umusore urimo asukura amenyo akoresheje agakoresho kabigenewe nko gukura imyanda y'uburyo butandukanye yagiye mu menyo. Bityo agahorana ubuzima bwiza, amenyo asukuye ndetse ku buryo bitamutera ipfunwe kuba yanaseka ari mu bandi.

Umusore ukiri muto, hamwe na muganga mu cyumba cyo kwa muganga, akorerwa ubuvuzi bw'amenyo, bimufasha kumurinda indwara zandurira mu mwanda. Bityo bikamuha ubuzima buzira umuze.

Umwana ukiri muto, ubona ko anezerewe aho arimo asukura amenyo ye yifashishije uburoso ndetse n'umuti w'amenyo byabugenewe.

Mu ishuri aho mwarimu arimo asobanurira uyu mwana muto w'umunyeshuri yifashishije igishushanyo cyangwa se ishusho ryakozwe, rigaragaza igice cyo ku mubiri w'umuntu kikaba kizwi nk'igice cy'amenyo.

Umukobwa wireba mu ndorerwamo, unejejwe cyane n'uko yahawe ubuvuzi bwiza, ubuvuzi bw'amenyo, akaba ashimishijwe n'uko ubuvuzi bwe bwagize umumaro bityo akaba afite amenyo asa neza, arishimye mu buzima.

Umusore w'imyaka hejuru ya makumyabiri n'itandatu wishimye, unejejwe n'uko yahawe ubuvuzi bwiza bw'amenyo, amenyo ye akaba asa neza bityo akaba yumva atekanye afite ubuzima buzira umuze.

Umukobwa urimo asukura amenyo ye akoresheje uburoso bwabugenewe mu gusukura amenyo. Bityo akirinda akanarwanya indwara zandurira mu mwanda.

Umusore ukiri muto aho ubona ko amenyo ye asa neza cyane, arimo araseka kandi yishimye cyane, ubona ko aya menyo yayasukuye kandi yasukuwe n'umuti wabugenewe, akaba aseka nta pfunwe bimuteye kuko azi ko amenyo ye ameze neza.

Ivyumba kiri mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iki cyumba kikaba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, aho ubona ko n'uyu muganga ari we ukora kandi akaba ari muri bamwe batanga iyi serivisi.

Umukobwa ubona ko yishimye akeye ku maso, arasamye arimo yerekana amenyo ye, asa neza cyane, ubona ko amenyo ye azira uburwayi bwose bufata muri ibice by'amenyo.

Abana benshi batandukanye abahungu n'abakobwa hamwe n'abarezi babo, aho ubona ko banejejwe n'uko bahawe imiti ndetse n'uburoso bubafasha mu gusukura amenyo bityo bakagira isuku y'amenyo n'ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri muto, ubona ko yishimye cyane kandi anezerewe. Aho arimo akorera amenyo ye isuku, akoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe mu gusukura amenyo.

Umugabo urimo asukura amenyo ye agerageza kuvana umwanda waba wafashe mu menyo ye. Bityo akarinda uburwayi bufata amenyo.

Umugabo urimo asukura amenyo ye yifashishije urudodo, agasohora imyanda, agakuramo imyanda yose yaba yafashe mu menyo bityo amenyo ye agasa neza bikamurinda kurwanya indwara zishobora gufata amenyo ye bityo amenyo ye agahorana ubuziranenge.

Icyumba cyiza kandi gisukuye kirimo ibikoresho bitandukanye intebe, imbonezashusho ndetse n'ibindi, ibi bikaba ari ibikoresho byifashishwa hatanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo.

Abakozi batandukanye kandi bishimye barimo abazungu n'abirabura, bicaye bamwe abandi bahagaze baseka cyane buzuye ibyishimo, bakora mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Umukecuru n'umusaza, aho ubona ko barimo bafata imiti izwi nk'ibinini mu buryo bwo kuvura indwara no kuzirinda, bityo bakagira ubuzima buzira umuze.

Umusaza n'umukecuru barimo bafata amafunguro arimo intungamubiri z'ubwoko butandukanye, ubona ko bari kumwe na muganga ubitaho.

Abasaza benshi bageze mu za bukuru hamwe n'abagabo bake ubona ko bo bakiri bato, aho barimo baganira bishimye bamwe barimo kuboha, mbese bari kugerageza gukora ibintu kandi bakavuga ibituma bagira ubuzima bwiza, bagira imitekerereze mizima, bityo iminsi yo kubaho ikicuma.

Umukecuru ugeze mu zabukuru hamwe n'uyu mugangakazi, aho yitaweho cyane n'uyu mugangakazi amufasha kugorora imitsi yo mu maboko, bityo ubuzima bw'uyu mukecuru bugakomeza kuba bwiza kurushaho.

Abamama batatu ndetse n'umusore ubari inyuma aho barimo bagendagenda mu muhanda bananura imitsi y'amaguru ndetse n'umubiri wabo ukarushaho kuba muzima, ubona ko bageze mu zabukuru bityo bagomba gushaka uko umubiri waba mwiza bakagira ubuzima bwiza.

Umusaza ugeze mu za bukuru hamwe n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya. Aho uyu mwana arimo guhereza ibinini cyangwa se imiti uyu musaza bakoresheje amazi.

Umusaza ugeze mu za bukuru, aho ateruye umwuzukuru, ubona ko yishimiye kubona umwana ukomoka ku mwana we, biramunejeje cyane, aho anejejwe no kumuterura no kuba amubonyeho mu buzima bwe akiriho.

Umuforomokazi ndetse ukiri muto, aho afasha umukecuru ugeze mu za bukuru gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kugira ubuzima bwiza, bifashishije igikoresho cy'icyuma cyabugenewe.

Mama n'umukobwa we bishimye cyane mama arimo ategura amafunguro arimo imboga, arimo aganira n'umukobwa we banezerewe cyane.

Umuryango wishimye cyane ubona ko unezerewe, aho umukecuru n'umusaza bishimiye umwuzukuru wabo ndetse n'abakwe n'abakazana, aho ubona ko uyu muryango wishimye, aho aba baje gusura ababyeyi babo bityo ubuzima ni bwiza baranezerewe cyane.

Inyubako yo kwa muganga, umuforomokazi aho arimo afasha umusaza ugeze mu za bukuru, bakoresheje icyuma cyo kwa muganga cyabugenewe, kimwe mu bifasha kugorora imitsi, no gufasha bamwe mu barwayi bataratora agatege kumenyera kugenda no kongera kwisanga mu bu...

Ndetse n'abakecuru barimo bagendagenda bakora imyitozo ngororamubiri ubona ko bishimye bagaragiwe n'uyu musore ubari inyuma ukiri mutoya hagamijwe kugira ngo birinde indwara umubiri wabo umere neza bagire ubuzima buzira umuze.

Umusaza w'imyaka hejuru ya mirongo itanu. Urimo gukina, igisoro, yishimye cyane aryohewe n'ubuzima, cyane arishimye.

Umugore ugeze mu zabukuru, aho ubona ko yishimye cyane, hari amashusho yarangariye amunejeje, hamwe n'aba buzukuru be ndetse n'abana be, urabona ko anejejwe no kuba akikijwe n'aba bana batandukanye.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho arimo asoma ibitabo kandi akaba hirya ye hari ikirahure cy'amazi, bityo bikamufasha gutekereza neza no kuruhura ubwonko akagira ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri muto ndetse n'umusaza aho uyu mukobwa arimo ahereza uyu musaza imiti, bityo bikamufasha gusubirana ikizere cyo gukira vuba.

mwana w'umukobwa na sekuru we barimo bishimye cyane, umwana yishimiye sekuru na sekuru yishimiye umwana. Barimo bakina imikino y'ikoranabuhanga.

Umusaza ugeze mu za bukuru hamwe n'umuganga, aho ubona ko uyu muganga wabyigiye kandi ubifitiye impamyabushobozi, arimo aganiriza uyu musaza bimwe mu bizamini yari yamufashe ndetse no ku buzima bw'uyu musaza.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, ubona ko yishimye cyane ukeye ku maso arasa neza aramwenyura, arimo akora imyitozo ngororamubiri arambura imitsi yo mu maboko yifashishije tumwe mu dukoresho twabigenewe iyo barimo bakora imyitozo ngororamubiri bananura imitsi.

Umusaza usheshe akanguhe hamwe n'uyu muforomokazi, aho ubona ko uyu musaza aganirizwa neza kandi yitaweho cyane n'uyu muforomokazi, arimo amwenyura afite icyizere cy'ejo hazaza.

Umusaza ugeze mu za bukuru ukuze aho arimo yitabwaho n'umugangakazi akaba arimo amufasha gukora imyitozo ngororamubiri aho ari gufasha kugorora amaboko bityo imitsi ye ikagororoka amaraso agatembera neza agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ugeze mu zabukuru hamwe n'uyu mugangakazi wabyigiye aho ubona ko yitaye kuri uyu mukecuru ndetse cyane, n'ubwo badahuje uruhu urabona ko uyu mukecuru anejejwe n'uko yitaweho n'uyu muganga badahuje uruhu kandi afite icyizere cy'ubuzima.

Umusaza ugeze mu zabukuru ndetse n'umwana w'umukobwa aho amufasha mu buzima bwe bishimye, amukoresha imyitozo ngororamubiri yifashishije kimwe mu bikoresho kibikora cyo kwa muganga.

Umugore ukiri muto ndetse hamwe n'uyu mugabo ukuze, ubona ko bishimye bafatanye, banezerewe baryohewe n'ubuzima, bafite amahoro kuko ubona ko bafite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Muganga ukiri muto yitaye cyane k'umusaza ukuze arimo amufasha barishimye cyane barimo guseka bameze neza cyane ubuzima bw'umusaza buri k'umurongo.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bageze mu za bukuru bagaragara nk'abakuze aho barimo bari ku meza bafutegura imiti aho ubona ko uyu musaza arimo afata ibi binini bigiye kunyobwa kugira ngo barwanye kandi bacyahe uburwayi bwo mu mubiri.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru ubona ko bishimye cyane baseka bakeye kandi ku maso, banezejwe n'urukundo rwabo, banejejwe nuko lmana ikomeje kohereza ubuzima nta makimbirane kandi bakiri kumwe bameze neza.

Umugore n'umukecuru aho ubona ko uyu mugore arimo yita kuri uyu mukecuru ukuze, aho arimo amukoresha imyitozo ngororamubiri, amufasha kurambura amaboko, hagamijwe kubungabunga ubuzima bwiza bw'uyu mukecuru ugeze mu zabukuru.

Umugabo ugeze mu zabukuru, twakwita umusaza, aho umugangakazi arimo amwitaho, amufasha mu buryo bwabugenewe bwo kwita ku bakuze, babana n'indwara za bukuru.

Umusaza ugeze mu za bukuru hamwe n'uyu mugangakazi aho uyu musaza yitaweho n'uyu mugangakazi, umukobwa ukiri muto aho amufasha ku bijyanye no gukurikirana ubuzima bwe ndetse hakaba harimo nko kumugaburira imiti ku gihe, ndetse n'ibindi bityo ubuzima bw'uyu musaza bukaba bwiza.

Igishushanyo mbonera kigaragaza zimwe mu ngamba zo kurwanya no gukumira icyorezo cya corona.

Abaganga ndetse n'abagenerwabikorwa by'ubuvuzi, bambaye udupfukamunwa hagamijwe kudakwirakwiza indwara zitandukanye kandi bagahabwa serivisi z'ubuvuzi ku buryo bunoze.

Abagabo babiri ndetse n'abakobwa aho bari mu gikorwa gishishikariza urubyiruko ndetse na buri muntu wese gahunda yo gukora imibonano mpuzabitsina bikingiye. Aho barimo bagaragaza bimwe mu bifasha gukingira iyi mibonano harimo n'udukingirizo dufasha igihe abantu barimo bakora iki gikorwa bikabarinda uburwayi n'ibindi bibazo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ufite ikibazo cy'uburwayi bw'ijisho, ijisho rye rikaba ryarakorewe ubuvuzi rigapfukwa, bityo akaba yishimye kandi anejejwe na serivisi yahawe.

Umufasha wa nyakubahwa w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Paul Kagame ari we nyakubahwa Jeannette Kagame arimo atanga ibiganiro ku bijyanye n'uburyo bw'ubuzima bwiza bw'abaturage no kubusigasira no kububungabunga.

Umugabo w'umuzungu ufite igipapuro cyangwase ishusho yanditseho kandi inashishikariza abantu ko urukingo rw'ubushita bw'inkende rwabonetse, bityo abantu bakarufata bakikingira, bakagira ubuzima bwuzuye ibyishimo, ndetse bafite n'amahirwe.

Inama yabaye mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, yahuje ingeri zitandukanye, abazungu n'abirabura, hagamijwe gufata indwara, bazifatira uburwayi bwagaragaye.

Ikirangantego cya minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, aho iyi minisiteri itanga serivisi zitandukanye zo gutanga ubujyanama ndetse n'amahugurwa ku buzima bw'abantu no gufatira ibyemezo bumwe mu burwayi buba bwagaragaye.

Umugabo urimo aterwa urukingo mu uburyo bwo kwirinda iki cyorezo cya Covid cumi n'ikenda. Bityo umubiri we ukagira ubudahangarwa bwo kuba warwanya iki cyorezo.

Igizwe n'ingeri zitandukanye abagore abagabo biga ku buryo bwo guteza imbere ubuvuzi ndetse n'imibereho myiza y'abaturage hagamijwe uburyo bwo gusuzuma kuvura ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Gahunda y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri gahunda yo gushishikariza urubyiruko kwirinda virusi itera SIDA, aho ubona ko uyu muhango witabiriwe n'urubyiruko rwinshi cyane cyane.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo ubuvuzi buhabwa ababyeyi baba baje guhabwa serivisi zo kubyara ndetse no kuba bahategerereje.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise z'ubuvuzi butandukanye ku bantu mu b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore, abasaza n'abakecuru, abasore n'inkumi ndetse n'abana batoya, icyumba kikaba kirimo ibitanda biriho abarwayi baje kwa muganga.

Abaganga b'igitsina gitandukanye, abagore n'abagabo mu cyumba cyo kwa muganga mu myenda y'akazi kabo yabugenewe, barimo bakusanya amakuru y'uburyo barandura indwara mu baturage no kumenya uburyo uburwayi bwugarije ababagana bwakemurwa; bityo isi yacu igatera imbere ikagira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, kirimo ibitanda byinshi biryamwaho n'abarwayi baje guhabwa iyi serivisi y'ubuvuzi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga izwiho gutanga ubu buvuzi butandukanye, iki cyumba kikaba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'abana kuko ariho basuzumirwa.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, aha ngaha akaba ari inyubako izwi ku gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye ndetse kandi ku ngeri z'abantu batandukanye, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa banoza iyi serivisi.

Umusore uri mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, inyubako ikaba izwi nk'inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi butandukanye kandi ku ndwara zitandukanye, uyu musore akaba aryamye ku gitanda, ari aho yitabwaho n'abaganga akaba afite icyizere cy'ubuzima.

Inyubako yo kwa muganga mu cyumba gikorerwamo k ikanatangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, murabona ko ari icyumba giteguye neza kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'intebe, ibitanda mbonezamashusho n'ibindi byifashishwa kugira ngo hanozwe serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwiza kandi bunoze.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, ku ndwara nyinshi zitandukanye, kandi serivisi igahabwa abantu benshi b'ingeri zose batandukanye, aho uyu muganga ari muri iki cyumba, arimo ategura akananoza zimwe muri izi serivisi zituma abo bantu bahabwa ubwo buvuzi.

Uruzitiro rukikije inyubako yo kwa muganga, izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye ku ndwara ndetse na zo zitandukanye.

Umugore mu nyubako yo kwa muganga urwaye, uryamye ku gitanda hirya y'ibikoresho byo kwa muganga byabugenewe mu kwita ku barwayi.

Ibitaro bya Kigina, bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, kandi ku ndwara zitandukanye. Zikaba zihabwa abantu b'ingeri zose abana ndetse n'abantu bakuze.

Mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'uburwayi butandukanye, aha akaba ariho bakirira abagana ibi bitaro bose bashaka guhabwa iyi serivisi itangirwa muri ibi bitaro.

Inyubako nini yo kwa muganga, iyi nyubako ikaba izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi, z'ubuvuzi butandukanye, ku ngeri z'abantu benshi batandukanye. Ukabona ko yubakanywe isuku, ikaba ifite ikibuga ndetse n'umwanya uhagije, ushyirwamo nk'ibinyabiziga bitandukanye, by'ababa baje kwaka iyi serivisi y'ubuvuzi ndetse n'abayitanga.

Icyumba kinini cyo mu nyubako yo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga batanga iyi serivisi y'ubuvuzi ku bantu b'ingeri zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'banze, kubana ndetse n'abantu bakuze hagamijwe imibereho myiza y'ikiremwamuntu.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga n'ibitanda biryamaho abarwayi ibikoresho baterekaho imiti ndetse n'ibindi byifashishwa muri icyo cyumba bita ku barwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahazwi nk'atangirwa serivisi z'ubuvuzi butandukanye. Hakaba harimo bimwe mu byuma byifashishwa, basuzuma ubuzima bw'umuntu uko buhagaze. Bityo agahabwa serivisi z'ubuvuzi bitewe n'uko umubiri we wagaragaje.

Inyubako y'ibitaro yubatswe mu buryo bw'igorofa, mu kibanza cy'ubuso bunini, itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ku bana, abagabo, abagore, abakecuru n'abasaza, bagahabwa ubuvuzi butandukanye.

Inyubako yo kwa muganga, ahahabwa n'ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi butandukanye, kungeri z'abantu benshi batandukanye, iyi akaba ari inzu y'ababyeyi n'impinja bitarirwamo, bityo bakabaho ndetse bakagira ubuzima bwiza, ubuzima bwabo bukabungwabungwa.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga kirimo ibitanda biryamwaho n'abarwayi cyangwa se n'abandi bantu baje guhabwa iyi serivisi itangirwa muri ibi bitaro, bityo umutekano wabo ukizerwa n'ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza.

Inyubako yo kwa muganga ndetse ikaba yubatse mu buryo bugezweho buzwi nk'uburyo bw'igorofa, ikaba itanga serivisi z'ubuvuzi ku burwayi butandukanye, hagamijwe gusigasira ubuzima bwiza mu baturage.

Inyubako yo kwa muganga, ahazwi nk'ahatangirwa serivisi z'uburwayi butandukanye, iyi ikaba ari inyubako yubatse neza, ifite ubusitani bushobora gutuma abagana iyi serivisi bahumeka neza, ndetse bityo ubuzima bwabo bukaba bwiza, aha hatangirwa serivisi ku bagabo, abagore, abana, abasaza n'abakecuru, ndetse n'abandi.

Muganga, uyu akaba ari mugangakazi mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, aho uyu mugangakazi arimo akoresha mudasobwa.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bikoreshwa basuzuma bakanita ku barwayi aho harimo n'ibitanda bitandukanye, aho ubona ko kimwe mu bitanda birimo aha ngaha kiryamyeho umurwayi kugira ngo abashe kwitabwaho.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, ku bana, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abakecuru n'abasaza bityo bakavurwa uburwayi bityo bakagira ubuzima buzira umuze.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye hagamijwe kwita ku barwaye, babasuzuma bakanabavura uburwayi butandukanye, abagore, abagabo n'abana bose bahabwa iyi serivisi.

Inyubako yo kwa muganga ndetse ifite isuku nyinshi cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa batanga, banoza serivisi y'ubuvuzi. Harimo intebe ndetse n'ibindi.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga, iyi nyubako ikaba ari inyubako izwi mu gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye ku ndwara zitandukanye kandi ku bantu b'ingeri nyinshi zitandukanye.

Inyubako icururizamwo imiti y'ubwoko butandukanye, iyi miti ikaba ihabwa abarwayi basuzumwe cyangwa se biketseho uburwayi butandukanye.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga, iyi nyubako ikaba izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye ibitanda, intebe ndetse n'ibindi byifashishwa hanozwa iyi serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga, itangirwamo serivise z'ubuvuzi, mu cyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa basuzuma uburwayi, bafata ibizamini by'abarwayi ndetse igakorerwamo n'ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga, itangirwamo serivisi z'uburwayi butandukanye, ku ngeri z'abantu batandukanye; haba abato ndetse n'abakuze. Kikaba kirimo ibitanda byifashishwa iyo izi serivisi zirimo zihabwa aba bantu, bityo ubuzima bwabo bukaba bwiza.

Inyubako yo kwa muganga ikaba nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, kandi zigahabwa abarwayi batandukanye. Hab abana, abagabo, abagore ndetse n'abandi. Ubona ko aba baje gushaka iyi serivisi barimo bahabwa amahugurwa. Cyangwa se barimo bahabwa amabwiriza atandukanye.

Inyubako ikorerwamo, ikanatangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mu gutanga imiti ku barwayi, hagamijwe kuvura uburwayi butandukanye.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, aho iki cyumba kinini cyo muri iyi nyubako kirimo abaganga ndetse n'abarwayi batandukanye, bamwe na bamwe bavurwa, bambaye udupfukamunwa.

Kwa muganga mu nyubako izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, aho muganga arimo yita ku murwayi w'umwana ukiri mutoya. Aho amufata ibizamini mu kuboko. Aho yaba amusuzuma umuvuduko w'amaraso uko isukari ye imeze ndetse.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga ahazwi nk'ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa aha ngaha kwa muganga, ndetse bigafasha bamwe mu barwayi bitewe n'ibibazo bafite by'umubiri.

Kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umwana muto aherekejwe n'umurwaza we, aho uyu mwana yishimye anezerewe, n'uyu muganga urimo umufasha guhabwa ubuvuzi.

Mu nyubako yo kwa muganga aho abarwayi bategerereza kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi, hari abantu benshi batandukanye abagore, abagabo ndetse bambaye udupfukamunwa kugira ngo babashe kwirinda...

Inyubako yo kwa muganga itanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu b'ingeri zitandukanye, aho ubona ko umusore arimo aterwa urushinge n'uyu muganga.

Inyubako yo kwa muganga, ubona ko yubatswe mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho, ikaba ifite ubusitani ndetse n'ibindi bifasha kuguma ari nziza, ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'uburwayi butandukanye ku bagabo, abagore, abasore n'inkumi, basaza n'abakecuru, ndetse n'abana batoya, ubona ko gifite isuku ihagije, kirimo ibikoresho byinshi bikoreshwa kwa muganga ibitanda, ndetse n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga, iyi nyubako ikabazwi n'inyubako zitanmo sevisi'ubuvuzi butandukanye, haba ku bagabo, abagore, abasaza n'abakecuru, ndetse n'abasore n'inkumi n'abana bato. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bwiza, ikaba ifite isuku, ikaba ifite n'abakozi benshi bayikoraho mu gutanga serivisi no kwakira abayigana. Ikaba ifite umwanya uhagije ushyirwamo bimwe mu binyabiziga biba byajemo abaje kwaka serivisi n'abakora muri ibi bitaro.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kunoza iyi serivisi.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubucuruzi ikaba icuruza imiti, ikaba yarahawe izina ryiswe Iraguha. Iyi nzu ikaba icururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye buhabwa abatandukanye.

Imwe mu nyubako zitangirwamo serivisi y'ubuvuzi yubatswe mu bugezweho uburyo bw'igorofa itanga serivisi z'ubuvuzi kwakira abarwayi gusuzuma ndetse no gutanga imiti kuri abo barwayi.

Icyumba cyo mu nyubako yo kwa muganga, inyubako ikaba izwi nko gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho muri iki cyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga n'intebe bicaraho bavurwa cyangwa se bavura banakora, bakanasuzuma abarwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ubona ko iki cyumba gitandukanye kubera ibintu birimo haba ibitanda bikozwe mu buryo bugezweho. Iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye ndetse kandi ku barwayi batandukanye.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga, inyubako izwi nko gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ubona ko harimo uyu mukozi ukora muri iri vuriro.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga, aha akaba ari ahantu hazwi n'atangirwa serivisi z'ubuvuzi butandukanye kandi ku ngeri zitandukanye. Abagabo, abagore, abasaza, abakecuru ndetse n'abana bato.

Inyubako nini kandi nziza yubakanwe ubuhanga kandi ikaba ifite isuku, ikaba itanga umwuka mwiza haba ku bayigana ndetse n'abayitangiramo serivisi, cyane ko izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahazwi nk'inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye, ku barwayi batandukanye, aho iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, nk'utu meza, ibitanda, ndetse n'imashini z'imbonezamashusho zifashishwa hanozwa iyi serivisi y'ubuvuzi muri ibi bitaro.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umuganga arimo apfuka umurwayi uryamye ku gitanda urembye cyane, arimo afashwa n'umurwaza we kugira ngo bafashe uyu murwayi kugaruka muzima.

Inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge iherereye mu mujyi wa Kigali, iyi akaba ari inyubako izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye ku barwayi batandukanye.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bwiza bugezweho bw'igorofa kandi ikaba yubakanywe isuku, ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye haba ku bagabo, abagore, abasaza abakecuru ndetse n'abana bato.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo ubuvuzi butandukanye ku ngeri zitandukanye, abagabo, abagore, abasore, inkumi, abasaza n'abakecuru. Icyumba kirimo imashini ifasha mu gusuzuma uburwayi butandukanye.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakanywe ubuhanga buhanitse, ikaba ifite umwanya uhagije uparikwamo ibinyabiziga bifasha mu kunoza serivisi izwi nka serivisi y'ubuvuzi itangirwa muri iyi nzu.

Icyumba kinini kiri mu nyubako, inyubako ikaba izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, haba ku bana, abagabo, abagore, abasaza n'abakecuru.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahazwi nk'inyubako cyangwa se inzu itangagirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye. Aho umurwayi uryamye kuri iki gitanda muganga arimo amwitaho yifashishije bimwe mu bikoresho byabugenewe.

Inyubako icuruza imiti ku bantu, iyo miti ikaba ari imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, kugira ngo abantu bavurwe kandi bakire indwara z'uburyo butandukanye.

Abakozi benshi batandukanye harimo abasore n'inkumi ndetse n'abagabo bakora muri iyi nyubako itangirwamo ubuvuzi butandukanye ku bana, abagabo,

Inyubako y'Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, iyi akaba ari inyubako itangirwamo serivisi z'ibanze z'ubuvuzi butandukanye, ku bagabo, abagore, abasaza, abakecuru ndetse n'abandi.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye kandi ku barwayi benshi batandukanye, icyumba kikaba kirimo intebe uje kwivuza cyangwa se uje guhabwa serivisi z'ubuvuzi ategererezaho.

Inyubako yunganira ibitaro, icururizwamo ubwoko bwinshi butandukanye bw'imiti yita ku buzima bw'umuntu ihangana n'indwara.

Abaforomo babiri ndetse b'igitsina gore mu nyubako yo kwa muganga, umwe muri bo uteruye uruhinja banezerewe banejejwe n'urwo ruhinja n'uwo muziranenge mushyashya waje mu isi.

Icyumba kinini mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye. Aho ubona ko iki cyumba kirimo udushashi twinshi turimo amaraso, aya ngaya akaba ari amaraso aba asuzumwa kandi agahabwa abarwayi bayakeneye kubayatakaje nk'ababyeyi bavuye bari ku nda ndetse n'abandi baba bakomeretse bagatakaza amaraso.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi iherereye mu karere ka Huye, itanga serivisi zitandukanye zo kuvura ikanasuzuma uburwayi ku bantu b'ingeri nyinshi zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, kandi ndetse ku ndwara zitandukanye, ubona ko iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga nk'intebe zicarwaho n'abarwayi ndetse n'abasuzuma uburwayi.

Inzu cyangwa se inyubako, izwe nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Haba ku bagabo, abagore, abasore n'inkumi, abasaza n'abakecuru, ndetse n'abana bato. Bagahabwa serivisi, bitewe n'uburwayi.

Inyubako yo kwa muganga ikaba izwi nk'inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi ku ngeri nyinshi zitandukanye, abana ndetse n'abantu bakuze, aho ubona ko abagore n'abagabo, abasaza n'abakecuru, barimo bahabwa amahugurwa atandukanye ku buryo bwo kwita ku barwayi.

Inyubako. Inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho ikaba yubakanywe isuku ndetse yubatswe mu buryo bufite ubuhanga. Ubona ko ifite ibikoresho bitandukanye nk'ibigega bitanga amazi ku barwayi bayigana. Ikaba ifite n'ubusitani bushobora gutanga umwuka mwiza ku bayigana.

Inyubako yo kwa muganga izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye. Aho iyi nyubako irimo ibyumba byinshi bitandukanye. Kimwe muri ibyo byumba kikaba kirimo umuganga ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda arimo kwitabwaho.

Umuganga uherereye mu cyumba kiri mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye kandi bugezweho nk'uko ibi byuma biri mu iki cyumba bibigaragaza.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bakoresha batanga serivisi z'ubuvuzi z'uburyo butandukanye ku ngeri nyinshi z'abantu.

Inyubako y'ubuvuzi yubatswe mu uburyo bugezweho, igizwe n'imiryango myinshi itandukanye kandi ifite isuku, ikorerwamowo ibikorwa by'ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise z'ubuvuzi butandukanye kandi ku ngeri zitandukanye, ubona ko iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi ikaba yubakanywe isuku, ikaba ifite ubusitani ndetse ikaba ifite amahumbezi.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, uburyo bw'igorofa, ikaba yubatse ahantu heza, kandi ikaba ifite isuku mu bigaragara. Iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, ku barwayi benshi batandukanye, bityo bagasuzumwa bagahabwa n'imiti, bityo bakagira u...

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, basuzuma bakanavura indwara zitandukanye. Ku bagabo, abagore, abana bato, abasaza n'abakecuru.

Icyumba kinini kirimo imashini n'ibikoresho bitandukanye, bakoresha batanga, bakananoza serivisi y'ubuvuzi itangirwa aha ngaha muri iyi nyubako.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ubu bukaba buzwi nk'ubuvuzi bw'amaso, aho ubona ko harimo ibikoresho bitandukanye na bimwe mu bikoresho bifasha bikanahabwa ufite uburwayi bw'amaso.

Inyubako ikoreshwa bafata ibizamini by'ubwoko butandukanye hagamijwe gusuzuma uburwayi butandukanye ndetse ikaba inakorerwamo ubushakashatsi bw'izindi ndwara zitaragaragara, izikekwa mu buryo butandukanye. Ikaba igaragaramo abantu batanu harimo umugabo ndetse n'abagore bane.

Inyubako yo kwa muganga ahazwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'uburwayi butandukanye, haba ku bantu b'ingeri zitandukanye bagahabwa iyo serivisi y'ubwo buvuzi bityo ibibazo bimwe na bimwe byo mu buzima bwabo bikabonerwa ibisubizo, bakagira amagara mazima.

Hanze mu nyubako yo kwa muganga, aho uyu mugore ukuze ndetse n'uyu mukecuru ugeze mu zabukuru, barimo bahabwa serivisi z'ubuvuzi bakaba barimo bayihabwa n'uyu mugangakazi, aho ubona ko arimo afata ibipimo bitandukanye nko gupima umuvuduko w'amaraso mu mutima ndetse n'ibindi.

Umubyeyi n'umwana ku nyubako yo kwa muganga, ikorerwamo ikanatanga serivisi z'ubuvuzi, haba ku bana bato, abagore, abagabo, abasaza n'abakecuru bityo ibibazo by'uburwayi bwabo bikabonerwa ibisubizo bakagira ubuzima buzira umuze.

Hanze mu nyubako yo kwa muganga mu busitani bwayo, ahicaye abaturage b'ingeri zitandukanye abagabo ndetse n'abagore, baje kuri ibi bitaro gushaka serivisi z'ubuvuzi butandukanye.

Inyubako y'ibitaro bya Kabgayi. Iyi akaba ari inyubako mu Rwanda izwiho nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amaso. Bityo abayigana bakagenda bayirahira kuko baba barakurikiranywe bakitabwaho neza.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, ku bagabo, abagore, abana ndetse n'abakecuru, bakavurwa ndetse bagasuzumwa uburwayi butandukanye, yubatse mu buryo bugezweho kandi ifite ikibuga gihagije gishyirwamo bimwe mu binyabiziga biba byazanye abaje gushaka iyi serivisi cyangwa se ayitanga.

Inyubako yo kwa muganga izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'uburyo butandukanye, igatanga ubuvuzi ku bantu b'ingeri zitandukany. Aho iyo nyubako irimo abaganga batatu ndetse aho ubona ko abaje gushaka iyi serivisi y'ubuvuzi umwe barimo bamufata ibizamini ukuboko bityo ngo ahabwe ubuvuzi.

Icyumba cyo mu nyubako yo kwa muganga izwi nko gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hagamijwe gusuzuma no kuvura uburwayi butandukanye.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho buzwi, inyubako y'igorofa, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, ku burwayi butandukanye, kandi iyi serivisi igahabwa abantu b'ingeri nyinshi.

Abaturage benshi batandukanye batonze umurongo, bari mu cyumba kiri mu nyubako, izwi nk'inyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi butandukanye, aho baganye ibitaro, kugira ngo babafashe bimwe mu bibazo bafite mu buzima bwabo.

Icyumba kinini kiri mu nyubako yo kwa muganga, inyubako izwi inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye. Ikaba irimo abakozi b'ingeri nyinshi zitandukanye biganjemo igitsina gore. Gusa n'abagabo barimo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye. Iki cyumba kikaba kirimo umugangakazi akaba arimo hamwe n'izi mashini n'izindi zifasha mu kunoza serivisi zimwe na zimwe zitangirwa kuri ibi bitaro bityo ababigana ndetse n'abarwayi bagahabwa serivisi zinoze.

Inyubako iherereye muri Kigali, mu Rwanda, inyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze, ikaba izwi ku izina rya ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo butangaje kandi bugezweho. Ifite ubusitani buyikikije mbese imeze neza kandi isa neza. Izwi nk'inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zo kwa muganga. Iyi ikaba izwi nk'inyubako ifasha ababyeyi batwite ndetse n'abamaze gutwita. Mu magambo make baka bayita inzu y'ababyeyi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, inyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, iyi serivisi igahabwa abarwayi b'ingeri zitandukanye: abagabo, abagore, abasaza n'abakecuru, abasore n'inkumi ndetse n'abana batoya.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye ku ngeri zitandukanye z'abantu haba abagabo, abagore, abasaza, n'abakecuru ndetse n'abana bato. Bityo bagahabwa iyi serivisi y'ubuvuzi butandukanye ku ndwara zitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, inyubako izwi nk'inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi butandukanye ku baturage batandukanye b'ingeri nyinshi abagabo, abagore, basoza ndetse n'abakecuru, iki cyumba kikaba kirimo bimwe mu bikoresho byifashishwa aha ngaha kwa muganga nk'imigezi itanga amazi ndetse n'ibindi.

mu cyumba cyo mu nyubako yo kwa muganga hatangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye aho uyu musore uryamye kudutanda arimo afatwa ibipima akanasuzumwa n'uyu mugangakazi ubwiye ngo arebe ko umubiri we umerewe hano harimo nko gufata umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi bityo bamara kumenya ko umubiri we umerewe akaba yahabwa ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'uburwayi bwa kanseri mu Rwanda. Iyi akaba ari inyubako iri ku cyicaro gikuru gitanga serivisi z'ubu burwayi bwa kanseri.

Ibyumba byinshi bitandukanye biri mu nyubako izwi nk'inyubako itanmo ubuvuzi ku ndwara zitandukanye hasuzumwa hakanapimwa bamwe mu barwayi baba baganye ibi bitaro. Iyi nyubako irimo ibyumba bikorerwamo ibizamini nk'iby'ubuhumekero, mu mitima, mu nda ndetse n'ibindi.

Mu nyubako yo kwa muganga, ahaherereye umusaza ndetse n'umuforomokazi ukiri muto, aho ubona ko uyu muforomokazi, arimo afata ibizamini uyu musaza nk'umuvuduko w'amaraso n'ibindi bitandukanye, ubona ko amuha iyi serivisi bombi bishimye.

Umwana muto w'umukobwa urimo ukora imyitozo ngororamubiri, bikamufasha kugira ubuzima bwiza kugira umubiri uzira indwara, umubiri utatakwa n'uburwayi uko bwiboneye.

Umusore ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri, ubona ko yateruye ibyuma, umubiri we umeze neza kandi uteye neza, ibi bimuha kwambara akaberwa, ikindi kandi bimuha kurwanya uburwayi bwinshi butandukanye bushobora gushaka gufata umubiri we.

Umusore aho ubona ko yifashishije kimwe mu bikoresho byabugenewe, arimo yikandakanda ukuboko kuba kwagize imvune, bityo umubiri we, imitsi y'ukuboko igasubira ku murongo.

Abasore babiri, umuzungu n'umwirabura, aho umuzungu arimo afasha uyu musore w'umwirabura amuyobora uburyo bwo gukora iyi myitozo ngororamubiri bityo bikamuha ubuzima bwiza bikamukiza indwara, bikamufasha kurwanya indwara akagira ubuzima buzira umuze.

Umusore urimo akora imyitozo ngororamubiri, mu buryo bwo kwirukanka ananura imitsi y'umugongo, amaguru ndetse n'amaboko, nyuma yaho agafata zimwe mu mbuto, imboga, bimufasha kugira ubuzima bwiza bikamurinda indwara bikamwongerera n'amaraso,....

Umwana muto w'umukobwa, urimo ukora imyitozo ngororamubiri, iyi ikaba izwi nk'imwe mu myitozo ngororamubiri ikorerwa mu mazi, bakaba avuga ko iyi ari imwe iza mu ku isonga.

Umuntu kwa muganga hamwe n'umuganga wabyigiye ubifitiye n'impamyabushobozi, aho arimo amuvura ikibazo cyo mu ivi amukanda ndetse akamushyiraho n'imiti itandukanye, bityo uyu muntu ingingo ze z'amaguru zigasubirana.

Umusore ufite uruhu rwiza ugaragara neza, ubona ko yewe ahanini abikesha imyitozo ngororamubiri aba yakoze, arimo anywa amazi bimwe bimwongerera kuguma afite ubuzima bwiza ndetse atemba itoto.

Ishusho igaragaza umupira w'amaguru ndetse n'inkweto zifashishwa bakina uyu mukino w'umupira w'amaguru, bityo uwukinnye bikamwuhereza amafaranga, bikamuteza imbere ndetse bikamufasha no kuba umubiri we wababasha kurwanya uburwayi butandukanye.

Umuzungu w'igitsina gabo wicaye ubona ko ari mu karuhuko arimo anywa amazi, bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, bino bityo byose bikamufasha kugira ubuzima bwiza no gukomera no kugira umubiri umeze neza wambara ukaberwa, ikindi kandi bimuha kurwanya uburwayi.

Umusore urimo akora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'inkweto zabugenewe mu gukora iyi myitozo ngororamubiri. Aho arimo agorora imitsi yo mu maguru, yo mu mugongo, ndetse umubiri we ukarushaho kuba mwiza, akagira ubuzima buzira umuze, buzira indwara izo ari zo zose.

Umusore urimo uhabwa ubufasha n'uyu muforomokazi, aho ubona ko uyu musore wakoze imyitozo ngororamubiri yagize ikibazo ku kirenge, bityo uyu muganga akaba arimo amwitaho, amukanda ndetse anamupfuka.

Imiti y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibikoresho bifasha umuntu urimo akora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wicaye hasi aho ubona ko arimo akora imyitozo ngororamubiri arambura imitsi yo mu maguru ndetse n'iy'amaboko, udasize yewe'iy'umugongo bityo bikamuha ubuzima bwiza n'ubudahangarwa mu mubiri.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, aho arimo yisuka amazi ku isura ndetse no ku mubiri, ubona ko yashyuhiranye cyane, agerageza kugabanya ubushyuhe bw'umubiri we, bityo bigakomeza kumuha ubuzima bwiza.

Abantu babiri aho ubona ko bari mu myitozo ngororamubiri, aho ubona ko umwe afite ibibazo by'uburwayi, ariko akaba arimo akoresha agakoresho kabugenewe mu kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, undi nawe akaba afite umupira w'amaguru bityo bose hamwe bikabafasha gukora imyitozo maze umubiri ugasohora umwanda ukahaga ubuzima buzira umuze.

Umusore ugaragara ko akora imyitozo ngororamubiri, aho arimo anywa amazi amufasha gukomeza imikaya, ikindi umubiri we ugakomeza kuba mwiza, cyane ko amazi ari bimwe mu bintu umubiri wacu ukenera ubuzima bwa buri munsi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'ibitanda ndetse n'imashini zabigenewe, mu gusuzuma no kwita ku mubiri w'abantu. Urugero nk'abagize ibibazo by'imvune, n'abagize ibibazo by'amagufa, n'abakomeretse, ndetse n'ibindi.

Umuntu urimo apfukwa akandakandwa ubona ko yagize ikibazo cy'imvune ku kuboko, aho bari gukoresha igikoresho cyabugenewe mu gukanada cyangwa se kunga abagize ibibazo by'imvune cyangwa se ibindi bibazo by'amagufa cyangwa se imitsi, bityo bikamuha kongera kugira umubiri muzima, akagira ubuzima bwiza.

Umwana muto w'umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aho yambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse akaba arimo yumva n'indirimbo matwi ye bigatuma agira umuhate wo gukomeza akora iyi imyitozo ngororamubiri, bityo ikamufasha kuringaniza isukari, ndetse no gutembera neza kw'amaraso ye.

Igikoresho twafata mu moko y'ibinyabiziga, kikaba cyifashishwa urugero nko kwa muganga, iyo batwara imiti igiye guhabwa abarwayi batandukanye bari mu byumba bitandukanye.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri ndetse na zimwe mu mbuto zifasha umubiri kurwanya uburwayi ndetse no gukomeza, hakaba harimo n'icupa ry'amazi afasha umubiri kugira ngo arinde imikaya.

Umwana w'umukobwa urimo akora imyitozo ngororamubiri, ananura imitsi yo maguru, umugongo ndetse n'amaboko, ubona ko amaze umwanya mutoya yirukanka, akaba arimo aruhura imitsi anahumeka.

Umusore wicaye hasi mu kibuga, aho arimo akora imyitozo ngororamubiri, aragerageza kugorora amaguru, ndetse n'amaboko, bityo imikaya, imitsi, amagufa, bikaba bizima bikamuha kurwanya uburwayi butandukanye.

Umukobwa urimo akora imyitozo ngororamubiri, ubona ko ari ibintu asanzwe akora kandi amenyereye kandi akaba akora neza. Arimo agorora imitsi y'ibice bitandukanye by'umubiri we. Nk'umugongo, amaguru, amaboko, intugu ndetse n'ibindi. Bityo bikamufasha kugaragara neza akagira umubiri mwiza, kandi bikarwanya indwara z'uburyo bwinshi butandukanye.

Umugabo w'igihagararo kiza ubona ko abikesha imyitozo ngororamubiri aba yakoze. Nyuma yaho urabona ko arimo anywa amazi bityo bikamufashiriza hamwe n'imyitozo ngororamubiri kugira ubuzima bwiza.

Umwana muto w'umukobwa urimo akora imyitozo ngororamubiri, agorora imitsi yo mu kaguru. Bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza, bikarwanya indwara, agahorana ubuzima buzira umuze.

Wicaye aho ubona ko yagize ikibazo cyo mu kuguru, kuko bamupfutse ikirenge kugira ngo ikibazo k'imvune cg se igisebe yaba yagize kibonerwe igisubizo, bityo amagufwa ye n'imitsi ye bikomeze bisubire ku murongo.

Abasore babiri, umuzungu ndetse n'umwirabura, aho ubona ko barimo bakora imyitozo ngororamubiri muri iki cyumba cyabugenewe kirimo ibindi bikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore urimo yikandisha kimwe mu bikoresho byabugenewe bikoreshwa bakanda, nk'iyo umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri akagira ikibazo cy'imvune cyangwa se akeka ko ashobora kuba umubiri we wagizweho ikindi kibazo.

Umusore urimo ukora imyitozo ngororamubiri, aho ubona ko ayikorera ahantu habugenewe kimwe mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bikoreshwa bakora imyitozo ngororamubiri, aho uyu nguyu arimo gukora icyo twita guterura icyuma, bityo akagira umubiri wagutse imitsi ikarambuka amagufa agakomera ku buryo agira umubiri mwiza n'iyo yambaye araberwa kandi ikindi imufasha kurwanya uburwayi butandukanye.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye hasi mu muhanda, arimo akora imyitozo agorora imitsi y'amaguru, iy'umugongo, iy'amaboko ndetse amagufwa ye akajya ku murongo. Arimo kumva umuziki mu matwi, ese yambaye imyambaro yabugenewe. Bityo arimo akora imyitozo ubuzima bwe bukarushaho kuba bwiza.

Umukobwa urimo anywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, bityo bikamwongerera bikanamufasha gusohora imyanda mu mubiri, hagamijwe gucyaha uburwayi butandukanye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa bavura imitsi cyangwa se bakora imyitozo ngororamubiri, bityo bikananura imitsi bigasubiza amagufwa ku murongo ndetse n'amaraso agatembera neza.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa haba kwa muganga cyangwa se umuntu ku giti cye ushobora kuba wakwifashisha urimo ukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se umubiri wawe wagize ibibazo mu buryo bwo gusubiza ku murongo ibice bitandukanye by'umubiri.

Abagabo babiri aho ubona ko umwe arimo afasha undi mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho uyu mwirabura arimo akora imyitozo ngororamubiri agarariwe n'uyu muzungu, bityo bikamuha kugira ubuzima bwiza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ananura imitsi n'ingingo zitandukanye, urugero nk'imitsi y'amaguru, imitsi y'umugongo, imitsi yo mu maboko ndetse n'iyindi, bityo bikamufasha kuringaniza isukari y'umubiri we ndetse bikanarwanya uburwayi bwinshi butandukanye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye birimo imikasi, bikabamo amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye. Bikoreshwa hitabwa ku muntu wagize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri aho umwe arimo akandakanda undi wakoze imyitozo ngororamubiri. Agakomeza bimufasha kunanura imitsi, bityo akagira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa urimo akora imyitozo ngororamubiri aryamye hasi ku gakoresho kabigenewe iyo barimo bakora imyitozo ngororamubiri. Ubona ko agerageza kurambura imitsi yo mu maguru, iyo mu mugongo, iy'amaboko ndetse n'indi. Bityo bikamuha ubuzima.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo amavuta asigwa ku muntu wakoze imyitozo ngororamubiri, ibi bikoresho bikaba birimo n'ibindi bipfuko bapfukisha uba yakomeretse igihe arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo arimo akora imyitozo ngororamubiri hagamijwe kuringaniza isukari, kurwanya uburwayi butandukanye bushobora kumuzaho bityo agahorana icyizere cy'ubuzima bwiza. Ikindi kandi bikamufasha kuba ya kwambara akaberwa.

Igikoresho cyabugenewe ahanini mu kwita ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri, aho rimwe na rimwe usanga baba bagize ikibazo cy'imvune cyangwa se bakanakifashisha bazirika ku maguru cyangwa se ku maboko mbere na nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri bityo imikaya y'amagufa ikamera neza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri, aho ibikoresho harimo nk'amavuta asigwa bamwe mu bagize ibibazo by'imvune, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa bazirika ku ngingo zimwe na zimwe z'umubiri, wagize ibibazo.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yifashishije ibikoresho bigezweho biri muri iki cyumba cyiza kandi bityo bikamufasha kurwanya uburwayi butandukanye, nko kuringaniza isukari y'umubiri ndetse n'ibindi.

Abantu babiri bagaragara nk'ab'ibitsina gore, aho uyu mugore umwe afasha undi amukoresha imyitozo ngororamubiri, ahagana ku ruhande rw'ivi hagamijwe kurwanya uburwayi no gukira uburwayi bw'imitsi. Bityo bakagira ubuzima bwiza.

Igikoresho ushobora guhabwa no kwa muganga cyangwa se ukakigura mu masoko agicuruza, ni igikoresho cyifashishwa mu korohereza urugendo bamwe mu bantu babana n'ubumuga bw'amaguru; bwo kutagenda cyangwa se bafite ibindi bibazo by'umubiri bitabemerera gukoresha imbaraga.

Zimwe mu nsimburangingo zitandukanye zihabwa abagize ibibazo byo gucika ndetse no kwangirika kw'amaguru, bikaba bihabwa abo bantu kugira ngo nabo bakomeze barambure imitsi, bityo ubuzima bwabo bube bwiza.

Umwana w'umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije mudasobwa; amazi ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Imbuto nyinshi zitandukanye, ndetse n'ibinyobwa n'amazi bihabwa umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri bityo ubuzima bwe bukarushaho kuba bwiza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aho ananura iminsi y'amaguru, imitsi y'amaboko ndetse n'iy'umugongo, bityo bikarwanya uburwayi bwinshi butandukanye ndetse bikanamufasha no kuringaniza isukari yo mu mubiri we.

Umusore urimo anywa amazi, bimwe mu bintu bifasha umuntu wese ukora imyitozo ngororamubiri akaba yayanywa mbere y'uko atangira iyo myitozo, cyangwa se na nyuma yuko ayikora, kuko ibi ngibi ni bimwe mu bigabanya bikaringaniza ubushyuhe mu mubiri cyangwa se bigafasha imikaya ye, bityo bikaba byamurinda n'ibibazo byo kugira imvune.

Umusore n'inkumi bari mu myitozo ngororamubiri, aho barimo bagorora amaguru ndetse n'indi mitsi myinshi itandukanye igize umubiri, bakaba bafite amacupa arimo amazi, aya mazi akaba ari meza bakaba bayifashisha bayanywa, bityo bigafatanyiriza hamwe n'iyi myitozo ngororamubiri kubagirira umubiri umeze neza uzi....

Ikirenge cy'umuntu urimo akora imyitozo ngororamubiri, aho ubona ko imitsi ye irimo irambuka ndetse n'amagufa agakomera, amaraso agatembera neza bityo bikamuha ubudahangarwa bw'umubiri we.

Umusore ubona ko yubatse umubiri. Arimo anywa amazi meza ayanywesha iri cupa. Arimo yumva indirimbo mu matwi ye, avuye mu myitozo ngororamubiri, bityo bikamuha kugira ubuzima buzira umuze.

Abantu bane bagaragara nkaho ari ab'igitsina gabo barimo birukanka bakora imyitozo ngororamubiri bityo bakananura imitsi y'amaguru, iy'amaboko, iy'umugongo ndetse bikabafasha kurwanya uburwayi butandukanye.

Umuntu urimo afashwa na muganga gukora imyitozo ngororamubiri hagamijwe kugorora imitsi ndetse n'amagufwa, uyu muntu akagenda neza agakora imirimo ye, kandi birizewe cyane kuko arimo abikoreshwa n'umuganga wabyize akanabihugurirwa.

Umuryango ushinzwe gutanga ubufasha bwihutirwa, ubufasha bw'ibanze mu gihe ubukeneye ataragezwa ku bitaro, aba basore babiri bakaba barimo bafasha uyu musore wagize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri aho agorora imitsi yo mu maboko, imitsi yo mu ruti rw'umugongo ndetse n'izindi ngingo z'umubiri bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza bikarwanya indwara zitandukanye.

Umuntu urimo yikanda mu ivi, ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri. Bityo bikamuha ubuzima bwiza, aho bimufasha kurwanya indwara zaba zibonetse zose, bityo akizera kugira amagara mazima.

Umusore ubona ko yubatse umubiri, avuye mu myitozo ngororamubiri afite icupa arimo yimena amazi ku mubiri we agabanya ubushyuhe aba yatewe n'imyitozo ngororamubiri, bityo umubiri we ugasubira kuba umubiri muzima bityo bikamurinda uburwayi butandukanye.

Umukobwa urimo akora imyitozo ngororamubiri ananura imitsi yo mu maguru, ndetse n'iy'umugongo bityo bikamufasha kurwanya uburwayi butandukanye.

Umugabo urimo yivura ukuboko ashobora kuba yagize imvune, akaba arimo yikandisha kimwe mu bikoresho byabugenewe ku bagize ibi bibazo.

Umukobwa urimo anywa amazi, avuye mu myitozo ngororamubiri bityo byose hamwe bikamufasha kuringaniza isukari yo mu mubiri we no kurwanya ubundi burwayi bwose mu mubiri.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo imikasi ndetse n'ibindi bikoreshwa cyangwa se bikifashishwa n'abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, bimwe bigakoreshwa bipfuka ibisebe, ibindi bigakoreshwa bakanda imvune.

Amazi arimo asukwa mu kirahure, aya mazi akaba ari amazi meza asukuye yujuje ubuziranenge, ayangaya akaba ari amazi anyobwa n'umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri, bityo bikamufashiriza hamwe kugira ubuzima buzira umuze.

Umuntu urimo yikandakanda ku kuboko kwe akoresheje kimwe mu bikoresho byabugenewe mu gukanda bamwe mu bagize ibibazo by'imvune igihe bari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se bari mu kandi kazi. Bityo bigafasha amagufa ndetse n'imitsi ye gusubira murongo muzima.

Umugabo ufite umupira, umupira ukaba wifashishwa bakina umukino ukinishwa n'amaboko, bityo bino bikamufasha kugorora imitsi, bikamufasha gutembereza amaraso ye neza mu mubiri.

Igikoresho kifashishwa ku bantu bagize ikibazo k'imvune cyangwa se cyo kubura ingingo zimwe na zimwe cyane cyane amaguru. Kikabafasha kugenda mu buryo busimbura izindi ngingo zabo.

Umukobwa urimo akora imyitozo ngororamubiri, ubona ko ari ibintu asanzwe kandi yateguye kuko yambaye imyenda yabugenewe, ibi bikamufasha kugabanya isukari bityo bikamuha ubuzima bwiza.

Abagabo babiri bari mu kibuga kizwi nk'ikibuga gikinirwamo umukino w'umupira w'amaguru. Aho umwe arimo yitabwaho na muganga wabugenewe, aho arimo amukandira mu ivi.

Umugabo nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri arimo anywa amazi bityo bikamufasha gusohora imyanda mu mubiri kandi agakomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibinini bifatwa nk'imiti ivura uburwayi butandukanye, iba yaturutse mu gutegura ibyatsi by'ubwoko butandukanye bityo hakabamo uyu muti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, ukoreshwa havurwa abantu ndetse n'amatungo.

Ishashi y'uruhu rukomeye irimo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo utegurwa biturutse mu byatsi bitandukanye, imboga, imbuto.

Amacupa y'ubwoko butandukanye kandi akaba arimo imiti itandukanye izwi nk'imiti gakondo yifashishwa bavura indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, indwara z'ubuhumekero ndetse n'izindi.

Amacupa menshi y'ubwoko busa nkaho ari bumwe aho arimo umuti uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo utegurwa bivuye mu mbuto imboga ndetse n'ibyatsi hagamijwe gusuzuma no kuvura uburwayi butandukanye.

Imiti ubwoko butandukanye itegurwa havuye mu bimera, ibyatsi, imbuto n'ibindi. Imuti igakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ikaba izwi nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, ndetse n'amashashi arimo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo utunganywa n'ibivuye mu bimera, cyane cyane ibyatsi, imbuto ndetse n'ibindi, ukifashishwa uvura ukanasuzuma uburwayi bw'umubiri ndetse n'inyuma ku ruhu.

Amacupa y'ubwoko butandukanye arimo imiti y'ubwoko butandukanye, ikaba ikoreshwa bavura indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Umuti ufunzwe uwo muti ukaba utegurwa mu byatsi cyangwa se ibimera by'ubwoko butandukanye, ukaba uzwi ku izina ry'umuti gakondo ukoreshwa, ukifashishwa basuzuma bakanavura uburwayi butandukanye.

Ibyatsi byinshi bitandukanye bimwe muri ibyo birumye, hamwe n'agakoresho gakoreshwa babihonda igihe barimo babitegura, iyo babitegura bivamo umuti uyu ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara nyinshi.

Amacupa y'ingano zitandukanye arimo umuti, umuti uzwi nk'umuti gakondo utegurwa biturutse mu byatsi hagamijwe kuvura uburwayi butandukanye, uburwayi bwo mu nda, uburwayi bwo mu buhumekero, n'ubundi burwayi butandukanye.

Icupa ririmo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo utunganywa bivuye mu bimera harimo nk'ibyatsi, imbuto ndetse n'ibindi, kifashishwa uvura uburwayi butandukanye, nk'ubwo mu buhumekero, mu mihogo, mu nda, ndetse no.

Amacupa menshi kandi y'ubwoko butandukanye, aya macupa akaba arimo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo utegurwa uturutse mu bimera by'ubwoko butandukanye, ibyatsi bitandukanye, imbuto, imboga ndetse n'ibindi ukifashishwa uvura abantu b'ingeri zitandukanye.

Ubwoko bune butandukanye bw'ibyatsi, ibyatsi bikaba byifashishwa hategurwa umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa basuzuma bakanavura uburwayi butandukanye, urugero twavuga nk'uburwayi bwo mu nda, uburwayi bwo mu bihaha, uburwayi bw'uruhu, ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye bigera mu moko umunani, harimo indabo n'ubundi bwoko bw'ibyatsi, bitegurwa bakanifashisha bategura umuti, umuti ukaba uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa barwanya bakanavura indwara zo mu maso, indwara zo mu buhumekero, indwara zo mu nda,. ndetse n'izindi ndwara z'amoko atandukanye.

Ibyatsi, byifashishwa, batunganya, imiti gakondo, bityo bigafasha gusuzuma ndetse no kuvura uburwayi butandukanye harimo uburwayi bwo mu nda, uburwayi bwo mu muhogo, uburwayi bw'uruhu ndetse n'ubundi burwayi bwinshi butandukanye, ku kiremwa.

Amavuta, amasabune by'ubwoko butandukanye, byatunganyijwe biturutse mu byatsi, bigahabwa amazina y'umuti gakondo.

Ibyatsi by'indabo, byifashishwa bategura umuti. Uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, ukoreshwa bavura uburwayi butandukanye, nk'uburwayi bwo mu nda, uburwayi bw'uruhu, ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Ikimera keraho indabo kandi gikura kirandaranda ku butaka, iki kikaba kifashishwa mu gutunganya no gukora umuti uyu uzwi nk'umuti gakondo, wifashishwa hasuzumwa hakavurwa uburwayi butandukanye.

Ikimera ahanini kifashishwa batunganya umuti, umuti ukaba uzwi ku izina ry'umuti gakondo wifashishwa basuzuma bakanavura uburwayi bw'amoko atandukanye.

Umuntu ufite umuti w'ifu, uyu muti ukaba waratunganyijwe bivuye mu byatsi bitandukanye imbuto ndetse n'ibindi, uyu ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura uburwayi butandukanye, urugero twavuga nk'uburwayi bw'uruhu.

Ibyatsi bitandukanye ndetse n'imbuto bikusanyirizwa hamwe bigatunganywa bigakurwamo imiti gakondo kandi yizewe ifasha mu gusuzuma mu kuvura uburwayi bwagaragaye cyangwa se bukekwa ku kiremwa muntu ndetse n'ikindi kinyabuzima muri rusange.

Ibimera byo mu bwoko bw'imboga byifashishwa batunganya umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa basuzuma bakanavura uburwayi butandukanye haba ku matungo ndetse no mu bantu bityo ubuzima bwabyo bukarushaho kuba bwiza.

Amacupa ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa bikanifashishwa bitegurirwamo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo utegurwa bivuye mu byatsi.

Y'ubwoko butandukanye harimo umuti w'ubwoko butandukanye. Gusa uyu muti ukaba uhuriweho ku izina rimwe rizwi nk'umuti gakondo, ukaba uvura uburwayi butandukanye.

Ibimera byifashishwa batunganya umuti, uyu ukaba uzwi ku izina ry'umuti gakondo. Wifashishwa bavura bumwe mu burwayi bwananiranye. Uburwayi bw'uruhu, uburwayi bwo mu nda, ndetse n'ubundi burwayi butandukanye, kandi bukavurwa neza.

Ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye ariko byose byifashishwa, bigatanga imiti yifashishwa mu kuvura ibinyabuzima.

Amacupa menshi y'ubwoko butandukanye, arimo umuti, uyu ukaba uzwi nk'umuti gakondo utegurwa bivuye mu bimera by'ubwoko butandukanye, imbuto, ndetse n'ibindi, bityo bigahabwa abantu bagakira uburwayi butandukanye.

Amacupa abiri y'ubwoko butandukanye, arimo umuti; wavanzwe ukanategurwa biturutse mu bimera, urugero nk'igikakarubamba. Bityo uyu muti ukifashishwa mu kuvura uburwayi butandukanye, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo. Uvura uburwayi butandukanye mu mubiri ndetse n'inyuma yawo, haba ku matungo ndetse n'ikiremwa muntu.

Amacupa y'ubwoko butandukanye arimo imiti y'ubwoko butandukanye, iyi miti ikaba izwi ku zina ry'imiti gakondo, iba yabatunganyijwe ahanini biturutse mu byatsi, imboga, ndetse n'ibindi.

Ibyatsi bikoreshwa batunganya umuti gakondo, aho bitegurwamo umuti gakondo byizewe, uwo muti ukifashishwa mu kurwanya cyangwa se kuvura indwara zitandukanye. Haba indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, indwara z'umubiri, mu buryo bwinshi butandukanye.

Umuntu urimo asoroma ibibabi by'ikimera kiri mu bwoko bw'indabo, kikaba cyifashishwa batunganya umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura uburwayi butandukanye, ubwo twavuga nk'uburwayi bw'uruhu, ubwo mu buhumekero, ubwo mu nda ndetse n'ubundi burwayi.

Ikimera cyera mu butaka kikaba cyifashishwa bategura bakanatunganya umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa hasuzumwa hakanavurwa uburwayi.

Umuti uzwi nk'umuti gakondo, watunganyijwe biturutse mu kimera bita igi, kakarubamba uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura uburwayi butandukanye, uburwayi bwo mu nda, uburwayi bw'uruhu ndetse n'ubundi burwayi.

Amacupa menshi agerekeranyije arimo umuti. Uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo utegurwa bivuye mu bimera, ibyatsi, imbuto ndetse n'ibindi, ukifashishwa uvura uburwayi butandukanye ku bantu ndetse n'amatungo.

Imiti y'ubwoko butandukanye. Ikaba iri mu bikoresho bitandukanye. Muri ibyo bikoresho harimo amacupa ndetse n'ibindi byifashishwa bibika bigaragaza iyi miti. Iyi miti ikaba izwi ku mazina nk'ay'imiti gakondo itegurwa bivuye mu bimera bitandukanye, ibikakarubamba ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyatsi bitandukanye.

Icyatsi gitunganywa, hakavanwamo umuti. Uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, wifashishwa akenshi n'abavuzi ba gihanga, cyangwa se n'abandi, babifitiye ubushobozi, bityo bakavura uburwayi butandukanye.

Ikimera cyera mu buryo bw'indabo, iki kimera kikaba cyifashishwa batunganya kikavanwamo umuti, uyu ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura uburwayi butandukanye haba ku kiremwamuntu cyangwase inyamaswa.

Umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukaba uri mu icupa ariko uyu muti ukaba warateguwe ahanini biturutse mu kimera bita igakakarubamba.

Ubwoko butandatu bw'ibyatsi ndetse n'amazina yabyo, ibyatsi bikaba bikoreshwa bategura umuti, umutu ukaba uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa mu gusuzuma no kuvura indwara z'uburyo butandukanye.

Ibyatsi bakoresha bategura umuti uwo muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, ufasha havurwa indwara zitandukanye, indwara z'umubiri, indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi nyinshi.

Icyatsi kizwi ku zina ry'umuravumba, cyifashishwa batunganya umuti, uyu muti akaba ari umuti gakondo, ukaba wifashishwa bavura indwara zo mu nda ndetse n'izindi.

Ikimera cy'icyatsi kibisi gikoreshwa kikanifashishwa bategura kikavanwamo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa basuzuma bavura uburwayi mu mubiri.

Umuti w'amenyo ufunze, uyu muti ukaba warakozwe biturutse mu cyatsi bita igikakarubamba. Uyu muti ukaba wifashishwa mu gusukura amenyo, bityo bikarwanya indwara zitandukanye z'uburyo bwinshi zishobora gufata amenyo.

Amacupa menshi atandukanye kandi y'ubwoko bwinshi butandukanye apanze mu kabati. Aya macupa akaba arimo umuti, uyu muti ukaba uzwi ku izina ry'umuti gakondo utunganywa biturutse mu bimera ibyatsi, imbuto ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, bityo hakabamo uyu muti wifashishwa bavura uburwayi butandukanye nk'uburwayi bw'uruhu ndetse n'ubundi butandukanye.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye, bikoreshwa bategura umuti gakondo, bikaba biri kumwe n'igikoresho kizwi nk'isekuru ikoreshwa bategura uyu muti.

Amacupa ubwoko butandukanye arimo imiti, iyi miti ikaba izwi nk'imiti gakondo itegurwa bivuye mu bimera kuko bimwe mu bimera bishushanyije kuri aya amacupa ni ibikakarubamba.

Imiti myinshi gakondo iri mu macupa y'ubwoko butandukanye yatunganyijwe bivuye mu bimera bitandukanye, aho yifashishwa bavura indwara zitandukanye, izo munda harimo nk'igifu, inzoka, indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Amacupa manini y'ubwoko butandukanye, harimo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, utunganywa aha n'ibiturutse mu bimera by'ubwoko butandukanye, ukifashishwa uvura indwara zitandukanye.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'indabo izi mbuto hakaba harimo imineke, inanasi ndetse n'izindi. Zose hamwe byifashishwa batunganya umuti. Uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura uburwa...

Ishusho iriho umugore n'umugabo ndetse n'icupa, iryo cupa rikaba ririmo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, ariko ufasha serivisi zitandukanye harimo nko kuvura kurangiza vuba, harimo nko kuvura gucika intege mu gutera akabariro, no gukumira izindi ndwara zose zifata mu myanya ndangagitsina.

Umuti uri mu icupa, ukaba uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa bahanagura, basukura intoki, bityo ukica udukoko dutandukanye twaba turi ku mubiri, uyu ni umuti.

Imbuto zifashishwa batunganya umuti gakondo harimo: ibitunguru, indimu ndetse n'izindi, aho bitunganywa bikavanwamo umuti ukiza indwara zo mu nda n'igifu ndetse n'izindi.

Icupa ririmo imiti imiti izwi nk'imiti gakondo, itegurwa bivuye mu byatsi ikaba ikoreshwa hasuzumwa hakanavurwa uburwayi bw'ubwoko butandukanye, bityo umuntu agasubirana ikizere,

Ikimera cyo mu bwoko bw'indabo, iki kimera kikaba gikoreshwa, bakacyifashisha bategura umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, arimo umuti, uyu muti ukaba uteguwe bivuye mu bimera by'ubwoko butandukanye, harimo ibyatsi, imbuto ndetse n'ibindi. Ukakoreshwa uvura uburwayi butandukanye.

Abagabo bagwije umubare mwinshi kuko barenze bane, bari mu bushakashatsi bwo gushakisha ibimera byifashishwa hategurwa umuti gakondo.

Amavuta akora nk'umuti uzwi nk'umuti gakondo, uba wateguwe bivuye mu byatsi n'ibimera bitandukanye, urugero twavuga nk'ikakarubamba imbuto ndetse n'ibindi.

Ikimera kera mu butaka cyifashishwa batunganya umuti. Bityo kigakora nk'umuti uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa bavura uburwayi butandukanye.

Icupa ririmo amavuta, aya mavuta akaba afatwa nk'umuti uzwi ku izina ry'umuti gakondo, utegurwa bivuye mu bimera bitandukanye bityo uyisiga ikamufasha kurwanya indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Icupa ririmo ibinini, ibi ibinini bikaba bikora nk'umuti, umuti uzwi nk'umuti gakondo wateguwe biturutse mu byatsi by'ubwoko butandukanye. Uyu akaba ari umuti ukora bavura cyane cyane ku bwonko.

Ubwoko bw'ibimera butandukanye ndetse n'amazina yabwo ndetse n'ibyatsi byose hamwe byifashishwa mu gutunganya havanwamo imiti gakondo itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye: indwara zo mu mihogo, indwara zo mu nda, umutwe, indwara zo mu mazuru n'izindi zitandukanye.

Igiti kinini cyera ibibabi bityo kikaba cyifashishwa batunganya umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa havurwa uburwayi butandukanye, haba ku matungo cyangwa se ku bantu.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibimera, harimo inanasi, imineke, indabo, ndetse n'ibindi. Bino bitunganywa bikifashishwa nk'umuti gakondo. Iyo bitunganyijwe bakabitegura neza, bivamo umuti uvura indwara. Umuti ukaba uza nk'umuti gakondo, wifashishwa uvura uburwayi bwinshi butandukanye, nk'uburwayi bwo mu nda, uburwayi bw'uruhu, ndetse n'ubundi burwayi bwinshi butandukanye.

Amacupa y'ubwoko butandukanye arimo imiti iba yavuye mu byatsi bitandukanye byatunganyijwe ndetse bikavamo imiti gakondo ikoreshwa nko kuvura indwara zitandukanye izo mu nda, iz'uruhu n'izindi nyinshi.

Ikimera cyifashishwa batunganya umuti. Uyu muti uvamo uhabwa izina bita umuti gakondo. Bityo ugakoreshwa havurwa, hakanasuzumwa uburwayi butandukanye. Urugero twavuga nk'uburwayi bwo mu nda, uburwayi bwo mu buhumekero, uburwayi bw'uruhu ndetse n'ubundi ku mubiri.

Abaturage barimo barandura ibyatsi, ibi byatsi cyangwa se ibi bimera bikaba bitunganywa bikavamo umuti. Uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa havurwa hakanasuzumwa uburwayi butandukanye, haba ku matungo ndetse no ku kiremwamuntu bityo ubuzima bwabyo bukaba bwiza.

Amacupa y'ubwoko butandukanye arimo imiti izwi nk'imiti gakondo itandukanye yateguwe cyangwa se yatunganyijwe bivuye mu bimera by'ubwoko butandukanye, bikifashishwa bavura uburwayi butandukanye.

Ubwoko burindwi bw'ibimera bitandukanye, burimo igikakarubamba, umuravumba, indabo n'ibindi. Bikoreshwa batunganya, bikanifashishwa havanwamo umuti. Uyu muti ugahuzwa n'umuti gakondo.

Ibyatsi byinshi bitandukanye harimo n'indabo biri mu bikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga umutekano w'ibyatsi bityo bigatunganywa bivanwamo imiti gakondo ifasha mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye ndetse mu buryo butandukanye.

Amcmupa ane y'ubwoko butandukanye harimo imiti itegurwa ivuye mu byatsi by'ubwoko butandukanye. Iyo miti ikaba izwi nk'imiti gakondo ifasha havurwa uburwayi butandukanye: uburwayi bwo mu nda, uburwayi bw'uruhu. bityo umuntu akagira ubuzima bwiza.

Icyatsi cyifashishwa bategura umuti, umuti ukaba uzwi nk'umuti gakondo ahanini utegurwa biturutse mu bimera by'ubwoko butandukanye, ukaba wifashishwa banavura uburwayi butandukanye.

Icyatsi gihinze mu butaka, ubona ko ubutaka buteguwe neza, iki cyatsi kikaba gikoreshwa bakifashisha bategura umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, aho bavura indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, inzoka n'ibindi.

Imiti iri mu macupa y'ubwoko butandukanye yateguwe biturutse mu byatsi bitandukanye, harimo nk'ibikakarubamba ndetse n'ibindi, iyi miti ikaba izwi nk'imiti gakondo ifasha mu kuvura uburwayi butandukanye, haba uburwayi bw'amenyo, uburwayi bwo mu nda ndetse n'ubundi.

Umuntu urimo aca kuri iki kimera nk'ikimera kikaba kiri mu bwoko bw'indabo, kikaba cyifashishwa batunganya umuti gakondo uvura uburwayi butandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye ikorwa bivuye mu byatsi by'ubwoko butandukanye, imbuto ndetse n'ibindi. Ikaba izwi nk'imiti gakondo. Iyi ikaba ivura uburwayi butandukanye.

Icupa ry'umweru iri cupa rikaba ririmo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, watunganijwe bivuye mu bimera, ibyatsi, imbuto n'ibindi bimera by'ubwoko butandukanye, bityo ukifashishwa uvura uburwayi butandukanye.

Amacupa menshi amaremare n'amagufi y'ubwoko butandukanye kandi akaba arimo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura ibiheri, ukavura inzoka ndetse ukaba ushobora kuba wavura n'ubundi burwayi butandukanye.

Amavuta ndetse n'isabune bitunganwa biturutse mu bimera by'ubwoko butandukanye, aya mavuta ndetse n'isabune bigafatwa nk'umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye cyane cyane iz'uruhu.

Ubwoko bw'amacupa atandukanye harimo amavuta, aya amavuta akaba yifashishwa asigwa nko mu mutwe, aho avura uburwayi butandukanye, aba yateguwe biturutse mu kimera kizwi nk'igikakarubamba, uyu ukaba ufatwa nk'umuti gakondo.

Ubwoko cumi na bibiri bw'ibimera, ibimera bikaba bitandukanye, hakaba harimo imbuto, ibyatsi bindi by'ubwoko butandukanye, bikaba byifashishwa batunganya umuti gakondo.

Amacupa ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye birimo umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo utunganywa ahanini biturutse mu bimera, ibyatsi, imbuto, ndetse n'ibindi, bityo ukanifashishwa uvura uburwayi.

Icupa ririmo umuti, umuti ukaba wateguwe bivuye mu bimera, mu mbuto, indabo n'ibindi, umuti ukaba uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye.

icupa ririmo ubuki, ubuki bukaba bufatwa nk'umuti, uyu muti ukaba ari umuti gakondo uvura uburwayi butandukanye ndetse ukanabusuzuma, urugero twavuga nk'uburwayi bwo mu nda, uburwayi bw'amarozi ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Indabo zitandukanye hamwe n'igiti kigira amababi, byombi byifashishwa batunganya umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo ushobora gukoreshwa bavura indwara zitandukanye ku buzima bw'umuntu, indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, indwara zo mu buhumekero n'izindi.

Umuntu ufite imiti mu biganza bye, imiti y'ubwoko butandukanye, iyi ikaba izwi nk'imiti gakondo, itegurwa bivuye mu byatsi, indabo, imbuto n'ibindi, hagamijwe kuvura no kurengera ubuzima.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu bikoresho bitandukanye aho ibi bikoresho bigaragaza amazina y'ubwoko bw'iyi miti, aho imiti iba izwi n'imiti gakondo iba yateguwe bivuye mu byatsi imbuto, imboga, aho baba bagamije kuvura uburwayi butandukanye.

Amacupa arimo ubwoko bwinshi butandukanye, haba arimo ubuki, andi arimo amavuta ndetse ibi bikaba bikora nk'umuti, ukaba uzwi nk'umuti gakondo utegurwa bivuye mu bimera bitandukanye, urugero igikakarubamba ndetse n'ibindi cyangwa se ukaba utegurwa bivuye mu buki, bityo ugakora nk'umuti ku buzima.

Amoko agera kuri ane kandi atandukanye y'ibimera byifashishwa batunganya umuti uzwi nk'umuti gakondo, ufasha mu kuvura uburwayi butandukanye haba ku bantu ndetse n'amatungo.

Bifashisha bategura umuti, uyu ukaba uzwi nk'umuti gakondo ukavura indwara z'uruhu, indwara zo mu buhumekero, indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Amacupa menshi cyane y'ubwoko butandukanye y'amabara atandukanye arimo imiti izwi n'imiti gakondo y'ubwoko butandukanye, yateguwe bivuye mu bimera by'ubwoko bitandukanye, ikifashishwa basuzuma, bavura uburwayi butandukanye.

Ibyatsi bizwi ku izina ry'umuharavumba, bikoreshwa batunganya bakanategura umuti, uyu muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa mu kuvura indwara zo mu buhumekero, indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye harimo, indwara zo mu nda ndetse n'izindi bityo ufashwe cyangwa se uhawe uyu muti amahirwe yo gukira akaba ari menshi agahorana ikizere cy'ubuzima bwiza.

Ikimera gikoreshwa mu buvuzi gakondo, kivamo imiti yifashishwa n'abaganga, bavura ikiremwa muntu.

Ikimera kifashishwa bategura kandi kikavamo umuti, uyu ukaba uzwi nk'umuti gakondo wifashishwa basuzuma cyangwa se bavura uburwayi bw'ubwoko butandukanye.